Inzu isize amarangi y'umutuku, hariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ifite amadirishya y'umweru. Yifashishwa mu gutanga amayinite abantu bakoresha bakora itumanaho.

Umuntu wicaye mu kazu ko gucururizamo amayinite hari uwaje kugura amayinite wifashisha mu guhamagara ndetse no mu itumanaho.

Abantu bari gukura imizigo mu modoka, iyo mizigo iri mu mifuka y'umweru, hari inzugi ndetse hari n'abahagaze batari guterura imizigo.

Abantu bahuriye hamwe bishimye bamanitse agatoki, harimo umugabo, abagore ndetse n'umukobwa.

Abantu bahuriye ahantu hamwe, harimo abagore ndetse n'abagabo, umugabo umwe afite igiseke, igiseke cyifashishwa mu gutwara ibintu bigiye bitandukanye ndetse cyifashishwa no mu rusengero mu gihe cy'amaturo.

Inzu ya etaje, ifite amabati y'umutuku, impande y'amabati hariho ibara ry'mweru ndetse isize irangi ry'umweru, imbere y'iyo nzu hari ubusitani.

Umuhanda ujya ku nzu nini ya etaje abantu bajya kwiyakiriramo igihe bafite inyota ndetse n'inzara, imbere yaho hari ibiti ndetse na pasiparumu n'urupangu rukikije iyo nzu ariko rutayikikije impande zose, urwo rupangu ruri mu gihande cy'ibumoso, aha hantu hafasha mu kumara inzara abantu ndetse n'ibindi.

Abantu bicaye hamwe bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, bicaye ku ntebe iyo abantu bahuriye hamwe bibafasha kungurana ibitekerezo ndetse no gufata umwanzuro mwiza.

Inzu ifite umuryango munini uriho ibitambaro birinda ko mu nzu hagaragara ndetse imbere harimo intebe n'ameza ateretseho indabyo, indabyo zifasha mu kugaragaza ahantu neza.

Umufuka uteretse ahantu hari ibijumba byinshi, birasa nk'aho biri kugurishwa, ibijumba ni ibiryo bitanga imbaraga ndetse bigatuma umuntu akomera.

Ku isoko aho bacururiza ibintu bigiye bitandukanye, harimo amasakoshi, imyenda y'abana, inkweto, imyenda y'abakuru ndetse n'amakariso, hari abagore baje kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ni igikoresho cyifashishwa mu kudoda imyenda yo kwambara ndetse hirya y'aho hari abantu bari gucuruza ibisheke, ibisheke bigafasha umubiri mu uburyo bwo kubona isukari yo gukoresha.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye ipikipiki yambaye kasike imurinda ibikomere mu gihe yagize impanuka, ndetse n'inzu y'ubucuruzi yifashishwa mu kugurisha no kugura ibicuruzwa.